Kwamamaza ibyo ukora mu kigo cyawe, biri mu bituma utera imbere, ariyo mpamvu ubonye ibyo wamamaza wese aza kugana kubera y'uko hari aho yabibonye, ushobora kubisoma ku cyapa cyangwa ukabyumva mu binyamakuru.

Icyapa cyamamaza, ni icyapa usanga ahantu kiri hose cyanditseho amagambo asobanura neza neza ibyo kirimo kwamamaza, ibi bigafasha umuntu wese ushaka iyo serivisi icyo cyapa kiri kwamamaza, kuyibona byihuse.

Mu rwego rwo kugira ngo ubwizigame n'ubwiteganyirize ku buzima busobanuke ndetse bwumvikane neza mu baturage, birasaba ko habaho ibisobanuro birambuye cyangwa se hagakoresha ibyapa bitanga amakuru.

Mu kwamamaza ibikorwa bijyanye n'ubwishingizi, ku buzima bw'umuntu cyangwa se ku bintu, uburyo rukumbi bwatuma bagera ababagana benshi ni ugukoresha ibyapa cyangwa se bakajya ku mbuga nkoranyambaga.

Mu kwamamaza uburyo bwo gutanga ubwishingizi, ni bumwe mu buryo bukoreshwa kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe icyo asabwa, ubu buryo bushobora gukorwa hakoreshejwe ibyapa cyangwa se imbuga nkoranyambaga zitandukanye.

Kwamamariza ejo hazaza usanga bikorwa mu buryo butandukanye, bishobora gukorwa handikwa ibyapa bimanikwa ku muhanda, utanga amatangazo ku maradiyo ndetse no kugenda ubwira umuntu umwe umwe muhuye mu nzira.

Amabanki afite amapurikasiyo abafasha mu kwamamaza imikorere n'imikoreshereze y'ikigo cyabo. Ibi bikaba bifasha umuntu wese uje ubagana, mu kumenya amakuru byihuse, cyangwa se akabakurikira akoresheje apurikasiyo yabo.

Mu rwego rwo gufasha abagana amabanki, usanga banki nyinshi zarashyizeho uburyo bwiza bwo gukora ama apulikation azajya afasha mu ihererekanya ry'amafaranga bikozwe onulaini.

Buri wese uje agana boutique uzasanga ashishikajwe no kumenya buri kimwe cyose kibamo, kubera ko muri boutique haba harimo ibintu byinshi bitandukanye nk'imitako ndetse n'ibindi, ibi biri muri bimwe bikurura abantu baje babagana.

Mu kugira ngo ubushakashatsi bugere kuri byinshi byimbitse birasaba ko habaho ubufatanye bw'abarenze umwe, ibi bizabafa kugera kuri byinshi bitandukanye bitashobora kugerwaho n'umuntu umwe.

Amaguriro y'imyenda aho ava akagera hose, usanga harimo imyenda y'ingeri zose, ngaho imyenda y'abana, iy'abagore batwite, iy'abapapa, ndetse n'iy'abasore n'inkumi, ni byiza ko rero niba ushaka ko bizinesi yawe itera imbere, washiramo imyenda y'ingeri zose n'inyungu ikaza ari nyinshi

Botike ni hantu haba hari ibicuruzwa bitandukanye ndetse by'ingirakamaro, urugero nk'imyenda, harimo amakoti, amakanzu ndetse n'ibindi bibarizwamo, bifite kandi biri nkenerwa ku buzima bwa muntu.

Toyota ni rumwe mu ruganda rukorera imodoka mu Rwanda, ruzwiho kugira imodoka nziza yaba mu gukomera ndetse n'uko igaragara inyuma, ni byiza ko rero niba ushaka imodoka iramba, wagana uruganda rwa Toyota rukagufasha kuko rurizewe cyane.

Abacuruza imodoka uzasanga ari abantu babifitemo uburambe dore ko baba bafite n'ibigaragaza ko urwo ruganda rwabo rwemewe. Aba bayobozi rero uzasanga ari abantu b'inararibonye mu kugurisha imodoka.

Ahagurirwa imodoka, ni ahantu usanga hari ikoraniro ry'imodoka z'ubwoko butandukanye, yaba imodoka nini, yaba imodoka ntoya, zose zose uzisanga muri iryo guriro, buri wese ugiye kugura rero, aragenda akagura iyo ashaka bitewe n'uko yayishimye.

Ugura n'ugurisha imodoka bombi baba bashaka inyungu, aho usanga ushaka kugura yita cyane ku burambe iyo modoka yazagira ndetse akareba niba koko ari nziza inyuma ndetse inakomeye mu buryo bugaragara.

Amamodoka ari mu bwoko bwa Toyoto usanga ari amamodoka yizewe ku isoko, aho usanga umuntu wese ushaka imodoka ariyo agiye kugura, ibi bakabiterwa n'uburambe Toyota imaze ikora imodoka.

Abagura imodoka birabasaba kwitonda kuko byagaragaye ko hari n'iziba zitujuje ubuziranenge, bityo uyigura agomba kureba mu buryo bugaragara ndetse akanareba niba koko izaramba.

Ahagurishirizwa imodoka zitandukanye, uhageze wese arisanzura akagura iyo ashaka, yewe aba afite n'uburenganzira bwo kugenda ataguze igihe cyose adashimye cyangwa se atabonye iyo yashakaga.

Ni byiza ko abagurisha amamodoka baba ari inararibonye ndetse bakaba bizeye ubuziranenge bw'izo modoka bacuruza, bityo hakajya habaho n'ibihembo ku muntu wabaye indashyikirwa mu kuza kubagurira imodoka.

Imodoka kimwe mu bifasha abantu kwihutisha ingendo, yaba iza kunywa cyangwa iza nijoro, usanga umuntu wese ugiye kuyigura ayireba ko yujuje ubuziranenge.

Imodoka zifite ibara ry'umukara, ni imodoka ubona zigaragara neza, aho usanga buri muguzi wese uje ajya mu maduka acuruza imodoka ariyo aba yihutira kugura, ibi bigaragazwa n'uburambe zigira ndetse n'ubwiza bugaragara inyuma.

Inoti y'amafaranga nshyashya, iyo yasohotse, bisaba kuyitondera mu gihe ugiye kuyikoresha, ari yo mpamvu usanga abenshi bayitinya, bamwe bibwira ko ari ikiwani. Niyo mpamvu, bisaba ko mu gihe uyikoresha, witonda cyane ku birango bisanzwe biranga amafaranga y'u Rwanda.

Ukibona bimwe muri ibi birango biranga amafaranga y'u rwanda cyane cyane ku noti aho wayabona hosehita uyibwira udashidikanya ko aya mafaranga yakoreye mu rwanda bitewe n'uko iyo nyuti igaragara ibitandukanye n'andi mafaranga y'ibindi bihugu.

Uburyo bwo guhererekanya amafaranga mu ntoki, ni bwo buryo ubona bwizewe. aho uyahawe ayafata mu ntoki akayabara, bityo akagenda ari nta makemwa ko ajyanye amafaranga yuzuye.

Uburyo bwo guhererekanya amafaranga mu ntoki, buri mu buryo bwiza cyane cyane ku bantu bataragerwaho n'iterambere, ngo babe bafite amatelefoni babe bayahererekanya bakoresheje uburyo bwa onurayini.

Ububiko bw'amafaranga iyo witegereje neza usanga harimo amafaranga atandukanye yaba ayo mu bihugu byo hanze ndetse n'amafaranga yo mu gihugu mu imbere, ariyo mpamvu aho abikirwa haba hari umutekano udasanzwe mu rwego rwo kwirinda abajura.

Amafaranga ni bimwe mu bintu nkenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho usanga buri mafaranga yihariye bitewe n'igihugu akomotseho, kuko buri gihugu kigira ikirango kiranga amafaranga yacyo.

Amacupa arimo amazi ya nili akenshi uzayabwirwa n'ikirango cy'urwo ruganda rukora ayo mazi. Ari yo mpamvu biba bigoye ko amazi ya nili wayitiranya n'andi yose abonetse.

Mu byo dukenera bya buri munsi, haba harimo ibyo kurya, ariyo mpamvu, uzasanga bihangayikisha umuntu, kuba yabuze ikintu cyo kurya, ibi biba ari ikibazo gikomeye.

Buri ruganda rwose, ruba rugaragaza icyapa kiranga imikorere yabyo n'amazina y'ibyo batanga, rugero nk'uruganda rw'Inyange cyangwa Nyanza rutanga amata, usanga rufite ibyapa bisobanura ibikorwa byabo.

Umuntu wese uguriye amata mu ikusanyirizo ryayo, aba yizeye yuko aguze amata afite ubuziranenge, kandi ni koko aba yaratunganyijwe neza bityo intungamubiri zikaboneka uko bikwiye.

Bimwe mu bicuruzwa nkenerwa bya buri munsi tuzabisanga ahantu henshi hatandukanye, muri ibyo bicuruzwa uzasangamo imigati, amajuyice, amazi akomoka mu nganda zitandukanye n'ibindi.

Ukibona aya mazi ari muri aya macupa, udashidikanyijeho na gato, uhita utekereza yuko aya mazi afite ubuziranenge, kandi koko niko biri. Bitewe n'uko uruganda rurakora, rurizewe ndetse rufite uburambe.

Uburyo bwiza bwizewe mu kwishyura amafaranga, hagati yababa imbere mu gihugu n'ababa hanze, ni uburyo bw'ikoranabuhanga, kuko biba byoroshye kwishyurwa kandi bigakorwa mu gihe gito.

Uburyo bwinshi bwashizeho bwo kwishyura buratandukanye, harimo gutanga amafaranga mu ntoki, ariko bikaba akarusho iyo ubwo buryo bukoreshejwe ukoresheje ikoranabuhanga nka za telefoni cyangwa mudasobwa.

Kuva kera hose kwishyura amafaranga byahozeho kuko abantu bahererekanyaga mu ntoki. Ariko, kuri ubu haje uburyo bw'ikoranabuhanga aho umuntu ashobora wakwishyura undi mafaranga, bidasabye kumusanga aho ari ahubwo agakoresha ikoranabuhanga.

Mu rwego rwo kugaragaza imikorere n'imikoreshereze yuburyo bwo kwishyura ukoresheje koranabuhanga. Ushaka kubikora azamenya amakuru binyuze mu kwamamaza cyangwa se basomye ibyapa bitandukanye.

Uburyo bwo kubika amakuru ku byakozwe mu mabanki, usanga ari uburyo bwiza. Bitewe n'uko iyo umukiriya agarutse ashaka kumenya ibyakozwe, babimwereka byihuse. Yabashima serivise nziza, akazagaruka cyangwa akabazanira n'abandi bantu bo kuza kubafasha muri serivise zabo.

Ubu buryo bwo kubika amadokima y'ibyakozwe, ni uburyo bukoreshwa cyane cyane n'amabanki cyangwa ibindi bigo by'imari, ibi bikaba byafasha umuntu wese uje ubagana ashaka kumenya ibyakorewe cyangwa se ibyabaye ku bigendanye no kubitsa no kubikuza kuri konti ye.

Uburyo bwo kubika amakuru y'ibyakozwe ku bijyanye n'ibyinjiye n'ibyasohotse, biri mu buryo bunezeza umuntu uje ukugana aho ngaho mu kigo cyawe, dore ko iyo hari amakuru runaka yibagiwe ukamuha ayo makuru wabitse bimufasha kwibuka byihuse.

Dokima igaragaza ibyakozwe cyane cyane mu mabanki, usanga hibanzemo amafaranga yasohotse, ayinjiye, ayatanzwe ku nguzanyo ndetse n'ayishyuwe ku bafashe inguzanyo. Iyi dokima rero, ni nziza cyane kuko ituma ubona amateka y'ibyakozwe byose.

Uburyo bwo kubika amakuru ku byinjiye cyangwa ibyasohotse mu mabanki, ni uburyo bwiza aho usanga umuntu wese ugize ikibazo ku kijyanye n'amafaranga yabikije cyangwa yabikuje, bimufasha kumenya aho ikibazo kiri ari uko arebye muri iyo dokima.

Uburyo bwo kubika amakuru ku byinjiye n'ibyasohotse mu ma banki usanga aribwo buryo bwizewe, aho ubagana ashaka kumenya ibyakorewe kuri konti ye, ahabwa ayo makuru akarebamo ibyo nawe ashaka by'ingenzi byamufasha.

Mu rwego rwo guhanahana amafaranga ku bari mu gihugu b'imbere n'abari hanze yacyo, guverinoma yashyizeho uburyo bwajya bukoreshwa mu kugira ngo buri wese yoroherwe no kubona amafaranga cyangwa kuyohereza.

Amafaranga y'abanyamahanga uzayabwirwa n'uko aba afite ibirango byihariye, bitewe n'igihugu ayo mafaranga akomokamo bityo ni ngombwa ko buri mafaranga agira ikirango cyayo mu rwego rwo kugira ngo abashaka kuyakoresha bamenye kuyatandukanya.

Buri gihugu kigira umwihariko ku mafaranga yacyo. Aho usanga buri mafaranga bitewe n'igihugu, haba hashushanyijeho ikirango kiranga ayo mafaranga. Ni byiza ko mu kugaragaza ubudasa, buri gihugu cyagira ikirango kiranga amafaranga yacyo.

Uburyo bwo guhererekanya amafaranga yaba amafaranga yo mu gihugu cyangwa amafaranga yo hanze, bukorwa habanje kwitonda, bitewe nuko buri gihugu kiba gifite ikirango kiranga amafaranga yabo mbese ari ubudasa.

Uguhererekanya amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'ay'imbere mu gihugu, uzasanga habamo kwitonda bitewe nuko buri gihugu kigira ikirango kiranga amafaranga yabyo, ariyo mpamvu usanga bisaba kwitegereza cyane kugira ngo umenye amafaranga utwaye ngo ni ay'ikihe gihugu.

Mu guhererekanya amafaranga avuye mu bihugu bitandukanye, ni byiza ko habaho kwitonda, cyane cyane ku birango n'ubuziranenge bw'ayo mafaranga, ibi bizafasha kugira imikoranire hagati y'ibyo bihugu byombi.

Amafaranga yose bitewe n'igihugu akomokamo, usanga afite ibirango byihariye, ibi birango rero bikaba bifasha umuntu wese waba ushaka gutunga amafaranga gusobanukirwa n'amafaranga atunze, aho akomoka, igihugu cyayo, bitewe n'ikirango ayo mafaranga afite.

Buri gakiyosike kose gakorwamo n'umuntu ushinzwe guhererekanya amafaranga ku bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, iyo uhageze usanga handitseho amakuru yose yerekeranye n'iryo hererekanywa ry'amafaranga.

Mu rwego rwo kunoza imikoranire yo guhererekanya amafaranga mu bihugu bitandukanye, hashyizweho uburyo bwiza bwizewe bwo gukoramo, izo serivisi, bityo buri muntu wese uje ashaka iyo serivisi akagenda anyuzwe.

Uburyo bworoshye bw'ihererekanyamakuru cyangwa amafaranga bukoreshwa, usanga ari uburyo bukorwa online cyangwa se hagakoreshwa kumanika ibyapa, ibyo byapa bikaba bisobanura uko ubwo buryo bukorwa ndetse n'ibisabwa kugira ngo ube wakoresha ubwo buryo.

Intebe z'imifariso, ni intebe ubona mu buryo bugaragara zigaragara neza, ndetse n'uwayicayemo wese aba yumva atekanye kuko aba yumva umutekano ari wose, aba ari intebe nziza ku buryo bugaragara.

Ibikoresho bikomoka ku bubaji, biri mu bikoresho biramba ugereranyije n'ibindi byose. Ibi bigatuma abantu benshi babikoresha ku rwego rwo hejuru. Kuko bituma badatakaza amafaranga menshi bagura ibindi bikoresho mu gihe cya vuba.

Uruganiriro ni ahantu hahurirwa n'umuryango cyangwa abandi bantu bashaka kuganira, ugasanga hafite umwihariko waho, aho usanga hari intebe zihariye ndetse hanateguye neza mu buryo bugaragara.

Ushaka ibikoresho biramba nk'ameza n'intebe, agomba kugana ababaji kuko aribo bantu bizewe ndetse bakoresha ibikoresho byujuje ubuziranenge, ku mpande zombi.

Abakora ibikoresho by'ububaji, ni abahanga mu buryo bukomeye cyane, aho usanga bazi gukora ibintu bitandukanye ndetse no gushyiraho imitako, ibi ngibi bigatuma bagaragaza ubudasa bwabo ndetse bikabaha ababagana benshi.

Ibarizo ni hantu uzasanga hari ubukorikori, aho bafata ibiti bakabibyazamo ibindi bikoresho, nk'intebe ameza n'ibindi bitandukanye, ubikora rero bikamuteza imbere.

Abagana amahoteri bose usanga bafite ibintu byinshi bitandukanye bakurikiye. Urugero : ubwiza bwayo, uko igaragara, ibikorwa batanga na za serivisi. Ibi biri bimwe mu bintu bituma abantu bumva bajya muri hoteri rubaka.

Amahoteli amwe n'amwe yateye imbere uzahasanga arangwa n'inyubako zigerekeranye, ubusitani bwiza, amapisine yo koga ndetse n'ibindi bintu byinshi byakururira umuntu kuhaza kandi akahava yishimye.

Amahoteli amwe n'amwe yateye imbere, uzasanga afite uruganiriro. Muri urwo ruganiriro, haba harimo intebe, ameza ndetse n'imitako itandukanye, ifasha umuntu wese waje ugana iyo hoteli ndetse n'undi wese wifuza kumenya ibihakorerwa.

Mu ruganiriro ni ho hantu usanga umwihariko udasanzwe. Dore ko haba habarizwa intebe, ameza ndetse n'indi mitako ijyanye na byo. Biragoye ko izo ntebe n'ameza n'ibindi bijyana na byo, wabisanga mu bindi byumba uretse mu ruganiriro gusa.

Hoteli ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye, hari ababa baje kurya ndetse no kureba ibyiza nyaburanga, bimwe mu biranga amahoteli, muhasanga ibyo kurya bitandukanye, aho kwicara heza haguye neza umuntu wese uhicaye, hari amahumbezi.

Hoteli ni ahantu haba urujya n'uruza rw'abantu bagenzwa n'ibintu bitandukanye, niyo mpamvu baba bafite ibyapa bisobanura ibyo bacuruza, ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi, uhageze rero ahabwa icyo gitabo, akagisoma, akarebamo ibyo akeneye, akaba ari byo atumizaho.

Amahoteli yateye imbere, mu rwego rwo gufasha abaje babagana, usanga ahenshi barashyizeho byinshi bitandukanye byabafasha kunezeza abakiriya. Harimo nk'amapisine yo kogeramo, ndetse n'ibindi byinshi byakurura abakiliya baje babagana.

Hoteli ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye bafite imico itandukanye. Ari yo mpamvu ukihagera usanga n'uburyo hateguye, hateguye mu buryo butandukanye kandi bunogeye buri muntu wese uje abagana.

Mu bigo bitanga ubwishingizi ku buzima ndetse n'imitungo, uje abagana yakirwa na yombi ndetse bakamwereka bimwe mu biranga serivisi zabyo.

Bimwe mu bigo byateye imbere bitanga ubwishingizi usanga byamamaza ku rwego mpuzamahanga, aho bikoresha imbuga nkoranyambaga, bigakoresha kwandika ibyapa ndetse bikabishyira ahantu henshi hatandukanye hahurira n'abantu benshi.

Icyapa cy'ubwishingizi ku buzima bwacu n'ibyacu, kigaragaza n'uko icyo cyapa kiba gisobanura icyo ubwo bwishingizi bukora ndetse kikaba kigaragarira amaso, aho usanga aho kiri kiba kitaruye mu buryo bugaragara.

Ibiro bikorwamo n'umuntu ushinzwe ubwishingizi, ni ibiro usanga biganwa n'abantu benshi kandi ugasanga ubagannye bamwakirana yombi ndetse bakamuha amakuru y'ibanze ku bijyanye n'ubwo bwishingizi.

Buri kigo cy'ubwishingizi aho kiva kikagera, uzahasanga gifite ibyapa byamamaza cyangwa se biyobora abantu bose baje bagana icyo kigo, ariyo mpamvu n'ugitangira gushinga ikigo cy'ubwishingizi atagomba kureka gukora icyapa cyayobora abantu baje bamugana.

Ubu buryo bw'Irembo ni uburyo guverinoma yashyizeho mu rwego rwo gufasha abaturage kubona serivisi byihuse, yaba iza onurayini ndetse n'izindi muri zo harimo kuba yahabwa icyemezo runaka, yaba icy'uko yashyingiwe cyangwa se icyemezo cy'amavuko, ibi ngi bi akabifashishwamo nuko ajya ku Irembo bakamufasha.

Buri kigo gitanga ubwishingizi ni ngombwa ko kiba gifite uburyo butandukanye bwo kwamamaza harimo gukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no kumanika ibyapa ku mazu yabyo kugira ngo ababagana babone amakuru byihuse.

Ibigo by'ubwishingizi biri mu bigo bifasha kubona ubwishingizi ntakuka ku bantu ndetse n'ibyabo, ubu buryo rero kugira ngo bumenyekane bakoreshe uburyo bwo gukora ibyapa bitanga amakuru ku mikorere yabo.

Buri ofisi zose zitanga amakuru ku bijyanye no kwishinganisha, uzahasanga ibyapa bisobanura imikorere y'iyo kampani ndetse amakuru arambuye menshi, uyabona utiriwe ubaza abantu benshi.

Ibyumba by'imashini ni bimwe mu byumba usanga bifite ubudasa, aho usanga harimo ibintu byerekeranye n'imashini ndetse n'ibigendana na byo urugero, nk'intebe n'ibindi byinshi byagufasha igihe cyose ugeze muri icyo cyumba.

Ibiro bivuga ku gutanga serivisi z'ubwishingizi, ukihagera uzahasanga ibyapa bisobanura imikorere yabo n'imikoranire hagati y'abaje babagana, ari yo mpamvu uzasanga hariho amakuru yose wumva ukeneye.

Inguzanyo ni uburyo bukoreshwa, aho ushaka inguzanyo, agana ikigo runaka, bakamuha inguzanyo, nawe akazaza afite inyungu, yiyongera ku nguzanyo bamuhaye, mu kumenya amakuru y'aho wabonera inguzanyo rero, ushobora gusoma ibyapa bitangaza icyo kigo, cyangwa se ukabyumva ku ma radiyo, no ku binyamakuru bitandukanye.

Mu gutanga inguzanyo, ni byiza ko habaho amasezerano aba hagati y'utanga inguzanyo n'uyihabwa, ibi bikorwa aho ushaka inguzanyo yuzuza imyirondorobiri ye nta n'umwa asimbutse.

Guhabwa inguzanyo biri muri bimwe bifasha abafata inguzanyo ndetse n'abayitanga. Uyitanga ahabwa inyungu, mu gihe uyihabwa iyo ayikoresheje neza na yo imwungukira, ikamuha inyungu.

Ni byiza ko habaho amasezerano hagati y'utanga inguzanyo n'uyihabwa bityo uwarenga kuri ayo masezerano akagira ibihano agenerwa, ibi bizarinda uburiganya bwa hato na hato buboneka hagati y'abafite inguzanyo ndetse n'abazitanga.

Gutanga inguzanyo ni uburyo bwashyizweho ku buryo byorohereza buri muntu wese ushaka kwiteza imbere, ibi bigakorwa aho ushaka inguzanyo agana ibigo by'imari bikamuha inguzanyo nawe we akazazana inyungu kuri ayo bamugurije.

Mu ikigo icyo ari cyo cyose gitanga inguzanyo uzasanga bisobanuye inguzanyo iyo ariyo. Hari itanga inguzanyo ku mazu, inguzanyo ku modoka cyangwa inguzanyo ku byo kurya, ariyo mpamvu abamamariza igihe icyo kigo gitanga inguzanyo bagomba gukorana ubushishozi. Bashobora kubishyira ku mbugankoranyambaga cyangwa se bagakoresha ibyapa babyamamaza.

Ubu buryo bwo gutanga inguzanyo buri mu buryo bufasha umuturage kwiteza imbere, aho usanga ufashe inguzanyo agirana amasezerano n'uyimuhaye akandika ndetse akabisinyira, kuri iyo nguzanyo rero hazaho inyongera yo kugira ngo iyo serivisi ikurwe neza kandi muri gahunda.

Uburyo bwo gutanga inguzanyo, ni uburyo bukorwa hagati y'ushaka inguzanyo ndetse n'uyitanga, kugira ngo rero umuntu amenye aho yabona iyo nguzanyo bakunze gukoreshwa ibyapa byamamaza bikorera ayo ma banki cyangwa se hagakoreshwa gutangaga amatangazo ku mbuga nkoranya mbaga zitandukanye.

Ibigo bitanga inguzanyo, usanga ari ibigo bigezweho muri iki gihe cya none. Kumenyekanisha ibyo bakora binyura mu gukora ibyapa bitanga amakuru yayo, ndetse binashishikariza abantu kubagana.

Uburyo bwo gutanga inguzanyo bukorwa mu bice bitandukanye, aho ushaka inguzanyo ashobora kugana icyo kigo cyangwa se agasoma ibyibanze ku cyapa cyamamaza ibijyanye no kubona iyi nguzanyo.

Inguzanyo zitangwa n'amabanki atandukanye, uzasanga ziri muri bimwe bigira uruhare mu guteza imbere umuturage, igihe umuturage akoresheje iyo nguzanyo neza byamufasha kwikura mu bukene.

Icyapa cyamamaza iteka, uzasanga handitseho ibikorwa by'icyo kintu kiri kwamamariza, ariyo mpamvu usabwa kwitonda cyane igihe ugiye kwamamaza, ugashyiraho ibintu ufitiye amakuru kandi mu buryo burambuye.

Ibyapa byamamariza ibigo bishinzwe gutanga inguzanyo uzasanga ahenshi na henshi ibyo byapa byanditseho serivisi ibyo bigo bitanga, bityo bikorohera umuntu wese uje ashaka serivisi muri icyo kigo.

Uburyo bwo gutanga inguzanyo buri mu buryo butuma iterambere ryihuta, aho ufashe inguzanyo ashobora kuyibyaza umusaruro ndetse bikamufasha mu iterambere rye.

Ubu kubona inguzanyo mu bigo runaka byaroroshye kuko kubona amakuru yabyo bitagikomeye nka kera, ushobora kuyabona ku byapa cyangwa se ukayabona ku mbuga nkoranyambaga utiriwe uva aho uri.

Abashaka gutanga inguzanyo z'igihe gito n'igihe kirekire, ni byiza ko bashyiraho uburyo bwo kwamamaza icyo kigo cyabo n'inguzanyo batanga uko zingana, ibi byakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga cyangwa se hagakorwa ibyapa byamamaza.

Isoko ry'imboga n'imbuto mu Rwanda ndetse no mu mahanga, usanga ariryo soko rifite abantu benshi barigana. Ibyo bigatuma abarikoreramo bose batera imbere, bitewe nuko ibicuruzwa baricururizamo ari ibicuruzwa biba bigezweho, kandi by'ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko ni ahantu hahurirwa n'abantu batandukanye, buri wese aje kugura ibitandukanye, dore ko haba hari n'abaje kugurisha. Ni byiza ko ugiye mu isoko yagenda yikwije, dore ko hari ubwo ashobora gusanga hari ibirimo atari yaje yiteze kugura.

Isoko ni ihuriro ry'abaguzi n'abagurisha, aho uza kugura aba afite ibyo ashaka gutwara, mu gihe uri kugurisha na we aba hari inyungu yifuza gukura mu byo arimo kugurisha.

Isoko ni uruhurirane rw'abantu n'ibintu aho abarigana baba baje gushaka ibyabafasha, yaba ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi bintu byinshi nkenerwa muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko ry'imboga n'imbuto, usanga ari ryo soko riganwa n'abantu benshi kandi iryo soko ugasanga ricuruzwamo, hibanzemo igitsina gore, ibyo si igitangaza kuko usanga ari bo babifitemo uburambe ndetse cyane.

Ukigera mu isoko rigezweho rya nyabugogo uhita ubona ko n'ibicuruzwa birimo byose ari ibigezweho gusa gusa, nta gitunguranye rero birumvikana iyo ibintu bigezweho ndavuga isoko rigezweho, n'ibicuruzwa nabyo bigomba kuba bigezweho mu gufasha abarigana kugira ngo nabo babone ibintu bigezweho cyane cyane ibyo kurya, ibyo kwambara n'ibindi nkenerwa.

Mu isoko, ni hamwe mu hantu haba urujya n'uruza rw'abantu benshi. Niyo mpamvu usanga harimo abanyamahanga, abenegihugu ndetse n'undi muntu wese waje hari icyo aje gushakamo.

Isoko rya kijyambere ryose uzasanga ari isoko riryoheye amaso kurireba, kuko riba ryiganjemo n'ibicuruzwa bidasanzwe ndetse n'abarigana usanga badasanzwe, kuko haba hari n'abanyamahanga ndetse n'ab'imbere mu gihugu.

Isoko ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye baje kugura cyangwa kugurisha, ibi bigafasha guteza imbere abaricururizamo ndetse no kubona iby'ibanze nkenerwa ku baje barigana.

Isoko ni ahantu hahurirwa n'abantu batandukanye. Yaba abanyamahanga ndetse n'ab'imbere mu gihugu. Buri muntu wese uri mu isoko aba afite icyamuzanye, haba harimo abari gucuruza ndetse harimo n'abaje kugura ibicuruzwa bimwe na bimwe bitandukanye.

Isoko ni ahantu hahurira abantu benshi, aho usanga kubona umuntu utazi aho uri bumusange bigoye, niyo mpamvu niba umuntu yakubwiye ko umusanga mu isoko, byaba byiza utwaye nimero yiwe, waza kumubura ukamuhamagara, ukamubona byoroshye.

Mobayiro mani kiyosike ni udukoresho cyangwa se utuzu, mobayiro mani yubakiye abakozi bayo, mu rwego rwo kwegereza serivisi abaturage baza babagana.

Mu rwego rwo kwihutisha ihererekanyamakuru no guhererekanya amafaranga mobayiro mani yashyizeho uburyo bwo gushyira udukiyosike ku muhanda, kugira ngo n'abatabasha kugera ku cyicaro bahabwe serivisi zabo kandi neza

Abashaka serivisi za mobayiro mani, iyo baganye icyicaro cy'aho mobayiro mani ikorera, usanga bahasanze abandi bantu bitwa ko ari abakozi baho babakorera, bakabafasha mu kumva neza serivisi bahabwa n'uburyo bayihabwamo bwihuse.

Mu rwego rwo kwihutisha amakuru ndetse no gukemura ibibazo bya bamwe mu bakiriya ba mobayiro mane, hashyizweho uburyo bwo gushyira abakozi batandukanye mu mirimo, bakegera abaturage bidasabwe kujya ku cyicaro.

Bimwe mu bifasha abaturage mu kwihutisha serivise zitandukanye ndetse harimo kubikura amafaranga, ni uburyo aho umuturage asanga umucuruzi cyangwa se umukozi wa airtel na MTN, akabufasha mu buryo bwihuse yaba mu kubikura amafaranga cyangwa mu kuyabitsa.

Mu rwego rwo gutanga serivisi nziza mobayiro mani, yashyizeho abakozi bashinzwe gusobanurira abaje babagana no kubaha amakuru yerekeranye na serivisi zose batanga.

Icyapa cya mubayiro mani kiba kiriho amakuru yose wakenera kumenya ku bijyanye na mobayiro mani, ariyo mpamvu ukihagera amakuru menshi urayibonera bidasabye ibisobanuro birenze cyangwa se undi muntu wo ku ruhande.

Uburyo bwo kugura ibicuruzwa bikoze mu buryo bwa onorayini, usanga ari uburyo bwihutisha ibicuruzwa, aho usanga aho byaba biri hose umuntu ubikeneye bimugeraho kandi vuba mu gihe gito.

Ni uburyo bwo kugura onorayini, ni uburyo bwiza cyane aho ubiguze ahita abigezwaho mu buryo bwihuse, hakoreshejwe kubimutwarira ku mamoto cyangwa se ukabiha imodoka ikabimugezaho.

Uburyo bwa onurayini bwo kugura no kugurisha, buri mu buryo muri iki gihe bugezweho, aho umuntu ashobora kuba ari mu rugo agatumizaho ibyo ashaka kandi bikamugeraho nk'uko yabyifuzaga.

Kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje uburyo bwa onurayini, ni bimwe mu bifasha, yaba umucuruzi, yaba umuguzi, kubona serivisi nziza kandi yihuse, ibi ni iby'agaciro cyane bikaba akarusho iyo byamaze kumenywa na benshi.

Ubu buryo bwo kugura ibicuruzwa no kugurisha onorayine ni uburyo butuma habaho kwihuta ushaka ibicuruzwa. Aho ubishaka yishyura amafaranga, ababishinzwe na bo bakabimwoherereza mu buryo bwihuse.

Ubucuruzi bukorwa online, usanga ari ubucuruzi bworoshye ingendo ku bantu batandukanye, aho ushobora kuba uri muri Kigali, ukagura ibintu mu gihugu cyo hanze kandi bikakugeraho nta makemwa.

Abagura ibicuruzwa bya onulayini bari mu bantu bashima serivise zibahabwa, aho usanga akimara kwishyurwa ikigo yaguze na cyo kimwoherereza ibyo yaguze, byaba kubishyira ku bamotari, ibinyabiziga cyangwa se kubishyira ku modoka.

Mu rwego rwo kugira ngo ibyo wamamaza bibone ababishaka cyangwa se ababikeneye, ni byiza ko ushyiraho buri kimwe cyose cyangwa se buri makuru yose yerekeranye n'icyo uri kwamamaza.

Inyubako zigurishwa usanga zigaragara neza, muri ubwo buryo uyigurisha ashyiraho igiciro bitewe n'uko igaragara. Ibi bigafasha uyishaka kumenya niba koko afite ibisabwa kugira ngo ayegukane.

Buri nzu yose ishaka gukodeshwa, usanga nyiri kuyekodesha yarashyizeho ibiciro bya buri kwezi ndetse akagaragaza neza ibyumba ndetse n'ibindi byose nkenerwa bibarizwa muri iyo nzu, kugira ngo uyishaka asobanukirwe n'icyo agiye gukodesha icyo aricyo.

Kugira ngo ubucuruzi bwawe bugende neza, yaba mu gukodesha cyangwa kugurisha bya burundu, birasaba ko amazu cyangwa ibindi bicuruzwa ushaka kugurisha, ushiraho igiciro ntarengwa gihamye.

Serivisi zitangwa mu kwakira abantu batandukanye, uzazisanga akenshi mu mabanki, mu bitaro ndetse n'ahandi hatandukanye, ibi ngibi kugira ngo bigerweho hagomba kubaho ubufatanye hagati y'uhabwa serivisi n'uyitanga.

Serivisi zo kwamamaza bimwe mu bigurishwa cyangwa ibikodeshwa buri kwezi, uzasanga ibyo byamamaza byanditseho n'amafaranga ntarengwa, ndetse n'ibikoresho biri muri ibyo bigomba gukodeshwa bikaba bifite ubuziranenge.

Amazu akodeshwa ndetse n'agurwa burundu, usanga ahenda, cyane cyane iyo ari amazu ageretse, bityo ushaka inzu igeretse yo kugura cyangwa gukodesha, birasaba ngo abe afite amafaranga menshi kandi ahagije.

Ubu buryo bwo kwamamazwa yaba inzu zigurisha cyangwa se ibindi bintu bitandukanye, ni uburyo bwiza bufasha guhuza umukiriya ndetse n'umugurisha.

Ushaka kwamamaza ibikorwa bye, aba agomba kugaragaza ibiranga ibyo bikorwa n'ubuziranenge bifite, ibi bizafasha mu gukurura cyangwa se mu kwireherezaho abashaka kugura ibyo bintu ari kwamamaza.

Inzu nyinshi zikodeshwa usanga ari nziza ndetse akenshi na kenshi amafaranga yishyurwa kuri buri cyumba aba ajyanye neza neza n'iyo nzu.

Mu kwamamazwa ibikorwa runaka bisaba ko uwamamaza asobanura neza intego yabyo, icyo bizamara ndetse n'ibyo yiteze ku bazaza bamugana.

Uwamamaza cyane cyane ku bigomba kugurishwa no gukodeshwa, abagomba kwitonda kugira ngo hatabaho guhomba hagati y'ugurisha cyangwa se hakabaho guhendwa kugura, bivuze ko rero uwamamaza aba agomba gushyiraho ibiciro ntarengwa ku ushaka, gukodesha icyo gicuruzwa.

Buri nzu yose ikodeshwa uzasanga yanditsweho icyapa kigaragaza igiciro cyayo cya buri kwezi, yaba icyumba uko cyishyurwa cyangwa se umubare w'ibyumba bikigize.

Kwamamaza ibikoresho bigurwa cyangwa se bikodeshwa, bikwiye gukorwa igihe icyo ari cyo cyose ibyo bintu bikodeshwa bifite amakuru arambuye yafasha uwo muntu ushaka kubikodesha.

Inzu zikodeshwa kenshi uzahasanga ibyapa bivuga ubwiza bwayo, yaba ibyumba biyigize ndetse n'amafaranga ugomba kwishyura. Yaba buri kwezi cyangwa se ku mwaka bitewe n'igihe ushaka kubamo.

Inzu yose igurishwa igomba kuba ifite ibyangombwa by'aho yubatse ndetse byarimba hakabaho inyandiko hagati y'ugura n'ugurisha, ibi ngibi bifasha bombi haba ugura ndetse n'ugurisha.

Kugura bimwe mu bicuruzwa ni bimwe biteza imbere ubicuruza bikamuvana ku rwego rumwe bikamugeza ku rundi, ibi abifashwamo no kuba afite abamugana benshi.

Guhuza amaduka atandukanye na za sinema buri mu buryo bwiza bukoreshwa igihe umuntu ashaka bimwe mu bikorwa bihakorerwa, kubera ko biba byarahujwe abikora byihuse kandi mu gihe gito.

Amaguriro atandukanye, muzasangamo urujya n'uruza rw'abantu abinjira, abasohoka, abagura, abagenda bataguze, abacuruzi n'ibicuruzwa. Ari yo mpamvu umuntu wese ugannye ahagurirwa aba afite ikimugenza.

Urujya n'uruza rw'abaguzi mu isoko usanga akenshi ruterwa n'uko haba harimo abantu batandukanye, yaba ab'imbere mu gihugu yaba n'abanyamahanga.

Hari uburyo butandukanye bwagiye bushyirwaho hagati y'ugura n'ugurisha, ahora aza agatwara ibicuruzwa agahabwa uburyo yishyuraho, yakoresha telefoni cyangwa akayatanga mu ntoki.

Abagura ibikoresho bitandukanye, usanga bashima uburyo babiguramo, yaba mu guhererekanya amafaranga mu ntoki cyangwa kuba bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye.

Iduka ni ikoraniro ry'ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Harimo ibiribwa, ibyo kwambara ndetse n'ibindi byose bibarizwa mu maduka.

Isoko ricuruza ibikapu, inkweto z'ubwoko butandukanye usanga akenshi ari ryo soko riganwa n'abantu benshi, ibi bigatuma n'abarikoreramo babicuruza bagira amafaranga ndetse n'inyungu yo ku rwego rwo hejuru.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye nk'imyenda, inkweto, ibikapu, imikandara n'ibindi, ikizahakubwira uzasanga hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye.

Iduka ricuruza ibijyanye no kwirimbisha, biri mu maduka agira abarigana benshi, cyane cyane iyo hibanzemo ibicuruzwa bigenewe abagore, abagabo, abana, mbese nyine ingeri zose, ibi birafasha haba k'ugura ndetse n'ugurisha.

Mu rwego rwo kugenzura umutekano w'abantu n'ibintu, ni byiza ko hashyirwaho abashinzwe umutekano. Ufashwe yangiza agahanwa nk'uko amategeko abiteganya.

Burya ni byiza kwizigama kuko bituma ugira ubuzima bwiza, kujya mu kigo Ejo heza rero bituma ubaho ubuzima bwawe bufite ubwishingizi, bikaba akarusho iyo utanga mituweri y'ubwisungane mu kwivuza.

Igihe cyose ugiye kwa muganga, uba ugomba kuzirikana ko ugomba gutwara ubwisungane mu kwivuza. Ibi bizagufasha mu kugabanyirizwa ibiciro mu kwishyura imiti ndetse biguhuze na muganga byihuse.

Ibiro by'urwego rushinzwe umutekano, iteka ryose uzahagera uhasanga abambaye imyenda igaragaza igikorwa cy'uko bashinzwe umutekano, bafite n'ibikoresho bibafasha kurinda uwo mutekano byemewe n'amategeko.

Mu rwego rwo gutanga amakuru y'aho ubuzima bw'umuntu bugeze cyangwa se mu gutanga ubwiteganyirize n'ubwisungane, habaho amahugurwa ashishikariza abantu gukurikirana ibyo bikorwa cyangwa se bagashaka ibyapa byamamaza ndetse binatanga amakuru ahagije.

Isoko rigezweho ni ahantu uzasanga hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye, bigaragara neza biryoheye mu kubirya ndetse bikaba biryoheye n'amaso mu kubireba, akaba ariyo mpamvu abantu bose bifite usanga bagana iryo soko kuko buri kimwe cyose bashaka arimo babisanga.

Supamaketi ni isoko usanga buri muntu wese ugiyemo yisanga. Kandi akumva yuko icyo agiye gushaka yakibona. Urugero nk'ugiye gushaka imbuto, imigati ndetse n'ibindi byose bibarizwamo.

Mu ma supamaketi menshi uzahasanga ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'abaguzi uzasanga batandukanye, ibi bigafasha ucuruza gutera imbere ndetse n'ugura akabona ibimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Supamaketi ni ahantu haba hari ibicuruzwa bitandukanye. Aho usanga hari urujya n'uruza rw'abantu, harimo abaguzi, ndetse n'abandi bari kugurisha. Ibi bikaba bigaragara, igihe cyose uwinjiyemo agezemo icyo ashaka akakibona ku buryo bwihuse.

Supamaketi ni ahantu umuntu wese ukeneye ibyo kugura agenda yisanga, yaba imboga, yaba imbuto urabihasanga, aha ngaha rero umuguzi n'umugurisha bose babigiramo inyungu.

Supamaketi ni ahantu haba ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane by'ibiribwa, urugero nk'imbuto z'inanasi cyangwa imineke, imigati n'ibindi nkenerwa bya buri munsi.

Supermarket ni ahantu haba hari ibicuruzwa bitandukanye, ku buryo umuntu wese uhageze ahava ntacyo ahabuze bitewe n'uko buri kimwe cyose nkenerwa kiba gihari.

Supamaketi ni ahantu ugera ugasanga harimo ibintu byinshi bitandukanye bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Nk'imigati, amajuyisi, amata ndetse n'ibindi byinshi.

Igihe cyose uvuye mu yandi masoko yose atandukanye ukaburamo imbuto zizewe, ni byiza ko wagana Supermarket ikwegereye bakagufasha, kuko ho, hari mu hantu imbuto zidapfa kubura nk'uko ahandi bigenda.

Supermarket zateye imbere, ntabwo ushobora kujyamo ngo ubure ikintu uguramo, kabone n'ubwo waba wakibuze ahandi, icyizere cy'ijana ku ijana kiba gihari yuko nujya muri supermarket uri bukibone kandi ugataha uhawe serivisi nziza.